Haragaragaraho umwana ufite ibikombe bibiri by'amazi, usa nk'aho amaze kuyadaha ahantu yari yariretse kuko biragaragara ko ubwo muri kano gace arimo ntabwo hari ari amazi meza.

Ni abana bafite ibivomesho twavuga ko bafite amadobo aho aba bana bari kuvoma amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye ku ishuri, kuko aba bana bose bambaye impuzankano n'imyenda ibaranga bose.

Ni umwana wagiye ku ivomero, aho uyu mwana afite ibijerekani ari kuvomeramo amazi, aho tuzi akamaro k'amazi, amazi yifashishwa mu kuyanywa, mu kuyatekesha, mu gufura, mu koza ibyombo ndetse no gukora indi mirimo myinshi itandukanye.

Haragaragara umwana uri ukaraba intoki uvuye mu bwiherero. Tuzi ko gukaraba intoki ari mu buryo bumwe bwo kunoza no kwirinda indwara zitandukanye, ndetse gukaraba intoki ni byiza cyane kuko bituma umuntu agira ubuziranenge ahantu hose n'icyo yakoraho cyose ntasigage acyanduje.

Ni umugezi urimo gutemba aho harimo abantu babiri, umwe ari kuvoma amazi mu kijerekani, wasanga agiye kuyakoresha ibintu bitandukanye nko kuyakoresha mu kubumbisha amatafari yo kubaka inzu, cyangwag se gukata ibyondo byo kubaka inzu. Hakaba n'undi uri gukoresha aya mazi arimo yoza ikinyabiziga cye cyitwa igare.

Ni abagore babiri bateruranye umufuka ndetse n'umugabo umwe, aho abagore bari kurunda umusaruro ahantu hamwe kugira ngo imodoka ize kuwufata uri hamwe iwutware ku isoko cyangwa ku ruganda.

Hagaragaraho abana basa nkaho bavuye ku ishuri kuko bambaye impuzangano aho baca ku ivomero rusange, hakaba hari abana babiri bari kuvoma amazi akoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aya mazi bayakoresha mu guteka, mu kumesa ndetse bakanayanywa.

Hagaragaraho abantu bari kuvomera amazi mu bikombe yo kunywa, aho amazi bari kuyakura mu kigega cyabugenewe. Aho bano bana bombi bose buri wese afite igikombe cye, mbese bari kunywa nta kibazo bafite.

Ni umuganga uri gukingira umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka makumyabiri kanseri y'inkondo y'umura aho tuzi ko abana b'abakobwa bataragira imyaka makumyabiri bafite munsi ya makumyabiri bategwa inkingo ya kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo bazakure neza.

Uyu nguyu ni umuganga uri gusuzuma abagore ubuzima bwabo, aho ari kubafata amaraso, byashoboka ko ari kubapima umuvuduko w'amaraso cyangwa se akaba ari kubapima agakoko gatera SIDA kugira ngo amenye na bo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

uyu ni umugore wikoreye igikoresho cyo mu rugo cyitwa igaro iki gikoresho gikoreshwa mu gutwara amazi agiye gukoreshwa imirimo itandukanye nko kuyogesha ibyombo kuyakaraba kuyubakisha amazu mashyashya cyangwa se no kuyanywa mu buzima bwa buri munsi

Ni uruhurirane rw'abantu benshi bigaragare ko bicaye barimo gutega amatwi ikiganiro cyangwa se inama, cyangwa se bakaba bari mu mahugurwa y'ibintu bakora cyangwa se babamo mu buzima bwa buri munsi kugira ngo barusheho kubinoza.

Aba ni abantu bahurijwe hamwe bari mu nama, bari kuvuga ku buzima n'imyororokere y'ubuzima bwa muntu, aba ni abajyanama b'ubuzima bo mu mirenge cyangwa se mu mudugudu, bahurijwe hamwe bari kubaha ubumenyi, bari kubahugura ku bindi bintu batari bazi.

Ni ibiganza by'umuntu biri gukaraba kuri kandagira ukarabe, aho tuzi neza ko umuntu uvuye mu bwiherero cyangwa se wakoze mu yindi myanda, cyangwa se akaba azi neza ko intoki ze zidafite ubuziranenge, aba agomba kuzikaraba kugira ngo yirinde mikorobe zitera indwara zitandukanye.

Ni umwana uri kunywesha ibiganza amazi aho tuzi neza ko atari byiza kunywa amazi ayo ariyo yose atabanje yatekwa ngo mikorobe zipfe.

Iki ngiki ni icyapa cyerekana, umurongo Afurika yari yarihaye mu mwaka wa bibiri na kumyabiri nakamwe wa makumyabiri na kane mu bijyanye n'ubuzima aho bari bafite insanganyamatsiko y'ukuntu bateza imbere, ubuzima bwa muntu.

Ni abaganga bari gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho bari kuvura umwana bisa nk'aho arembye cyane, uyu mwana ari kumwe na mama we, aho mama we yicaye ku gitanda arwarijeho umwana we, abaganga bakaba bari baje gutanga imiti kuri uyu mwana.

Ni umwana uri gukaraba intoki kumugezi rusange aho uyu mwana imbere ye hari ibijerekani byo gutwaramo amazi, ndetse uyu mwana bigaragara ko yishimye cyane nta bibazo afite.

Ni umukobwa uri gufotora, umugabo uri gukorera umwana uvuye kuvoma amazi, aho amazi aba yayatumwe n'ababyeyi kandi amazi tuzi akamaro kayo, kuko tuzi ko amazi turayakoresha mu rugo, tuyavurisha, tuyatekesha ndetse amazi arananyobwa.

Iki ni kimwe mu byumba byo kwa muganga, ikizwi nk'isuzumiro. Aho umurwayi bamwakira bakamubaza aho aturuka, imyaka afite, ababyeyi be, bakamubaza nimero y'irangamuntu ndetse bakanamubaza uko yafashwe n'indwara n'aho aribwa.

Ni umuforomokazi uri gutanga urukingo rwa korona virusi aho bose bambaye udupfukamunwa aho tuzi ko igihe kino cyorezo cya korona virusi cyari cyaratatse mu Rwanda, buri muntu yabaga asabwe gushira hagati ye n'undi intera ndetse akambara n'agapfukamunwa ndetse agakaraba n'inshuro nyinshi.

Ni ihuriro, aho iri huriro ryita ku bana batoya, aho iri huriro rishyikiriza abana batoya ibyo kurya cyangwa se ifunguro rikungahaye kuri vitamini, nk'aha ngaha bari bari kubaha amata kuko tuzi ko amata afite intungamubiri zihagije.

Ni ababyeyi bari gupimwa umuvuduko w'amaraso, aho umugangakazi abambika icyuma ku kaboko, akarebera mu kindi cyuma cyabugenewe ukuntu amaraso yabo atembera mu mubiri. Tuzi ko abantu benshi bageze mu za bukuru bakunze kurwara indwara zitandukanye. Niyo mpamvu umuganga aba ari kugira ngo amenye uko ubuzima bwabo bumeze.

Urabona ni umuntu w'igitsina gabo, uri gutanga imbwirwaruhame, cyangwa se uri kuganiriza abantu, ukuntu bateza ubuzima imbere, hatagize ikibuhungabanya, kuko urabona ni inama yabaye itariki ebyiri z'ukwa gatatu, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Hagaragaraho abantu benshi baje gushaka amazi kuko wari kuvoma ku mugezi umenyereweho kuko uzana amazi ari uko ubanje wapompa, aho umwe afata ipompo agapompa cyane akoresheje imbaraga ze, amazi akava mu butaka akazamuka nuko undi agahita avoma, nibwo buryo bukoresha imbaraga nyinshi mu kugira ngo amazi aboneke kuko kugira ngo ubone amazi bisaku umanza wakoresha imbaraga uyavana hasi mu kuzimu mu butaka.

Izi ni inshinge ziri kumwe n'umuti aho umuganga afata urushingi akarujomba muri kano gacupa akavomamo umuti, yarangiza akawutera mu mutsi w'umuntu urwaye bikamufasha gukira iyo ndwara.

Ni umukobwa uri kuvoma amazi, ku mugezi aho yateretse icyo ari kuvomeramo, mu ibase ndetse uyu mukobwa amaze gufura imyenda yayanitse ndetse ari no kuvoma amazi yo gukoresha ibindi bintu cyangwa se indi mirimo.

Ni umubyeyi ndetse uteruye umwana aho uyu mubyeyi yambaye ubwirinzi ku munwa ndetse no ku mazuru kugira ngo atanduza umwana we, byashoboka ko uyu mubyeyi cyangwa se uyu mumama yaba akeka ko afite indwara zandurira mu buhumekero aho ari kwirinda guhumekera umwana we.

Hagaragaraho abana benshi bisa nkaho ari mu kigo cy'ishuri kuko bose bambaye impuzankano kandi urabona ko bano bana wagira ngo hari ikintu bari kubazwa kuko urabona ko hari abazamuye amaboko, abandi ntabwo bayazamuye kandi barishimye urabona ko bari guseka.

Ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bisa nk'aho barangije gukora inama, cyangwa se bari bari mu mahugurwa atandukanye, bakaba bayasoje bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bitazibagiranwa ko bigeze bahurira hano hantu bose.

Ni umugabo wihebye wicaye hasi ku gitenge, aho yambaye amapingu mu maguru akaba yifashe ku mutwe bigaragara ko ibibazo byamurenze ndetse akaba akenyeye n'igitenge, uyu mugabo nta bwisanzure afite kuko bamuziritse amaguru.

Ni umuntu ubana n'ubumuga wicaye ku muhanda, ugenda afite cyangwa se atoragura ibyo abonye byose, ibintu by'imyanda ndetse uyu muntu yambaye inkweto biragaragara ko atakarabye. Mbese muri make umuntu nta muntu afite umwitaho, kuko aragenda akirirwa ari kwerera mu muhanda gutyo gusa, nta gutaha, ntagira n'aho aba.

Hagaragaraho ifoto y'umuntu usa nk'aho nta cyo kurya afite ndetse ntaho kuba afite, mbese bigaragare ko ubuzima bwamukomereye. Uyu muntu urabona ko arigunze kuko ntaho kuba afite ndetse nta n'icyo kurya afite.

Ni abana batoya bari hagati y'imyaka umunani n'itatu, aho aba bana bigaragara ko bataregwa neza kuko aba bana barasa nabi ndetse nta nubwo bifubitse.

Ni ikinyabiziga kigenda gitanga serivisi zo mu mutwe, aho kigira abantu inama ndetse kikanabasuzuma nimba imikorere y'ubwonko bwabo ndetse n'imitekerereze yabo ikora neza. Iyi cyangwa se iki, ni ikinyabiziga; ntabwo gikora ahantu hamwe, kuko kigenda kizenguruka ahantu hose, gitanga serivisi.

Ni umugore utekeye hanze, aho uyu mugore atekesheje inkwi kandi tuzi ko iyo umuntu atekeye hanze ibyo atetse bifite kuba byahumanywa n'ikintu cyangwa se inyamaswa iciye hejuru ikabyanduza cyangwa se n'umuyaga ukaba wahuha ugatamo imyanda.

Aba ngaba ni abantu bo mu ngeri zitandukanye ndetse n'imyaka itandukanye, aho bishyize hamwe bakazamura idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda, berekana ko batewe ishema n'Igihugu cy'u Rwanda, berekana ko bishimye kubera Igihugu cy'u Rwanda.

Hagaragaraho umucuruzi ucuruza amayite ya MTN, ndetse urabona ko afite n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ntabwo acuruza amayinite gusa, uyu muntu urabona ko arishimye mbese aranezerewe, kuko afite icyo akora.

Umugabo uri guseka, bisa naho yizihiwe cyane yishimye, bisa naho nta bibazo afite, uyu mugabo ari hagati y'imyaka makumyabiri na mirongo itatu, aho agifite isura nziza, amenyo urabona aracyari yose, mbese arishimye nta kibazo afite.

Ni icyapa kigaragaza ahantu hatangirwa serivisi, aho ugenda ufite ibibazo cyangwa se ufite ihungabana ukabaganiriza ibibazo ufite cyangwa se ihungabana ufite, bakakugira inama bitewe n'ukuntu bumva ibibazo byawe bihagaze.

Bano ngaba abana ni abana bavukanye ibibazo by'ingingo, bavutse batageze igihe neza, ingingo zose z'umubiri wabo zidakuze, bari kwa muganga, aho baba babitaho, babaha serivisi z'ubuvuzi bwa buri munsi.

Ni abantu cyangwa se uruhurirane rw'abantu bishyize hamwe, bari gutera ibiti kuko tuzi neza ko ibiti bitugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi, ibiti bitanga imbaho, bitanga imbuto zo kurya ndetse bikaduhereza n'umwuka mwiza duhumeka.

Ni ikarita y'akazi igaragaza umwirondoro w'umukozi uvura ubuzima bwo mu mutwe, aho usanga abakozi b'ahantu hatandukanye yaba ku bitaro cyangwa se no mu zindi nzego usanga bafite ibibaranga kugira ngo nuha umuntu serivisi amenya n'izina ryawe amenye n'icyo ukora.

i Numuntu wicaye hasi wambaye ubusa bisa nkaho afunzwe cyangwa se bisa nkaho ari gutotezwa aho umuntu wese aba agomba kubaho mu rwanda yambaye imyenda ariko uyu nguyu yakuwemo imyenda ndetse biragaragara ko agahinda kamwishe.

Umuntu afite agatambaro ari kwihanagura asa nk'aho afite ibibazo, mbese ari kwihanagura amarira kugira ngo ayarinde kuba yashoka ku matama. Ni ukuvuga ko kano gatambaro ari gukoresha nakamufasha guhanagura amarira ye, kugira ngo abantu bose batabibona.

Ni umubyeyi uri kumwe n'abana be babiri, bisa n'aho na we ibibazo byamurenze, afite intara ari gutoranya ibintu bisa nk'aho ari umuceri cyangwa se ibishyimbo byo guteka ariko biragaragara ko abayeho nabi kuko urabona abana amaso yaheze mu kirere, bafite agahinda.

Haragaragara umugore uri kwireraba mu kirori, arikureba isura ye yo mu maso kugira ngo arebe ukuntu agaragara mu maso, mbese kugira ngo yisobanukirwe ku buryo bwimbitse.

Ni umwana hamwe n'ubuganga, bisa nkaho umuganga ari kumuhereza serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, aho uyu mwana afite kuba afite iryinyo rirwaye cyangwa se rijegera, akaba ari kurimukuriramo kugira ngo umwana azamere irindi ryinyo rizima.

Ni umugabo bisa nkaho atarakura cyane bigaragare ko yishimye cyangwa se bigaragare ko ameze neza kuko ari guseka, amenyo yo mu kanwa aracyarimo yose ndetse anasa neza mbese yitaye ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo.

Ni umuganga uri kuvura amenyo aho ari gukura umwana ufite ikibazo cy'iryinyo rirwaye. Aho iryinyo barikuramo hakazamera irindi rimeze neza ritarwaye bityo umuntu agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni umwana ukiri muto cyane uri hagati y'imyaka ibiri ndetse n'ine aho uyu mwana afite igikoresho cyifashishwa umuntu ari kwita mu kanwa aho afite igikoresho cyoza amenyo kugira ngo umuntu arinde amenyo ye kuba yakandura cyangwa se kuba yarwara indwara zitateganyijwe.

Afite agakoresho kifashishwa mu koza amenyo kugira ngo umuntu yite ku isuku yo mu kanwa, aka gakoresho gaca hagati mu menyo ko kuko kaba gafite umubyibuho mutoya cyangwa se umubyimba, aho kagenda gakura imyanda yaheze mu menyo hagati, umuntu akabasha kwita neza ku isuku yo mu kanwa.

Ni umugore uri kwita ku menyo ye aho afite igikoresho bakoresha bita ku menyo. Aho iki gikoresho cyitwa cyane cyane uburoso bw'amenyo, ufata ugashiraho umuti w'amenyo warangiza ugakuba amenyo ari nako uyoza. Bityo bigatuma ugira amenyo meza azira umwanda kandi azira indwara.

Ni umuganga uri gukura umugabo iryinyo, aho ari gukoresha ibikoresho byifashishwa no kwa muganga mu gukura amenyo, aho urwaye iryinyo bamuryamisha ku gitanda cya se ku ntebe yabugenewe akasama, bagakoresha akandi kuma kabugenewe bakarikuramo.

Ni igikanka cy'amagufa bigaragare ko ari amagufa akoza amenyo ndetse n' igice cyo hejuru y'amenyo aho igikanka cy'amagufa kigaragaza ibice by'amenyo.

Ni umuganga hamwe n'umwana, uyu muganga ari gutanga ubuvuzi bw'amenyo, aho uyu mwana afite ikibazo cy'amenyo byashoboka ko iryinyo rye ryangiritse akaba arimo arimuvaniramo kugira ngo irindi rizabashe kumera irindi ryinyo rizima.

Ni ishusho y'ukuntu amenyo aba ateye mu kanwa aho hagaragaraho amenyo yo hasi ndetse n'ayo hejuru ndetse hakaba harimo n'akantu hagati amenyo afashe kameze nk'aho ari akuma.

Ni umugabo utanga serivisi z'ubuvuzi, aho yambaye umwenda w'akazi umuranga, wanditseho ko akorera mu bitaro bya Ruhengeri, ni ukuvuga ko buri mukozi wo mu bitaro runaka, aba afite ikimuranga cy'aho akora cyangwa se na serivisi atanga.

Ni umuforomokazi ndetse n'umuntu ari kuvura bigaragare ko ari kumuvura indwara zo mu kanwa cyangwa se akaba ari kumukura iryinyo ritameze neza mu kanwa ryafashwe n'uburwayi.

Ni umugore n'umugabo basazanye bishimanye kuko bose urabona bafite imvi yaba umugabo ndetse n'umugore bose bazanye imvi, bivuze ko bombi basazanye. Iyo abantu bishimanye gutya bivuze ko nta makimbirane aba ari kurangwa hagati yabo.

Ni umugore usa nk'aho akuze aho yatangiye kuzana imvi nk'ikimenyetso cy'ubukure, aho ari gukorera siporo iwe kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza tuzi ko umuntu ukora siporo cyane ntabwo asaza vuba ndetse tuzi ko siporo zifasha cyane mu buzima.

Ni umusaza bigaragaza ko uyu musaza arembye cyane, kuko acometse ku byuma byo kwa muganga n'ikigaragara cyo arasinziriye, uyu musaza afite kuba yarahuye n'ibibazo bituma agwa muri koma kuko bigaragara ko ameze nabi cyane.

Ni umuforomo uri kumwe n'umusaza bisa nk'aho akuze, ari hagati y'icyegeranyo cy'imyaka ya mirongo itandatu na mirongo irindwi, aho uyu muforomo ari kumusuzuma bicaye mu cyumba, amubwira uko yiyumva kugira ngo amuhereze imiti ivura indwara cyangwa se ikibazo afite.

Ni abantu babiri bigaragare ko bose barakuze, umugore ari gufasha umugabo we kugenda, aho amufashe bagenda gake gake bigaragare ko uyu mugabo afite ibibazo by'amaguru.

Ni umuntu uri gukina umukino tuzi witwa nka dame, aho uyu mukino ukinwa n'abantu babiri umwe agafata ibikinisho bye n'undi agafata ibye bakagenda bakinana kugeza aho inka z'umuntu umwe zishiramo zariwe n'undi ubwo akaba atsinze.

Uyu nguyu ni umugore uri guhereza umusaza cyangwa se umuntu ukuze uri hagati y'imyaka mirongo itandatu hamwe na mirongo irindwi amuhereza ikinini, akamuhereza n'kirahuri cy'amazi kugira ngo amirishe ikinini, buriya impamvu ari kubimuha ni uko ashobora kuba afite indwara runaka ari kugerageza kumuha umuti kugira arebe ko iyo ndwara yakira cyangwa se ikagabanya ubukana.

Ni umukecuru ukuze cyane aho bigaragara imvi zarabaye uruyenzi ari nk'ikimenyetso cy'ubukure aho uyu mukecuru ari gutanga ubuhamya ku bintu bitandukanye cyangwa se ku ndwara yaba yarakize arikugira inama abamuteze amatwi bari kumwumva.

Ni umusaza usa naho akuze cyane aho ari hagati y'imyaka yaro irindwi na mirongo icyenda kuko uyu musaza afite uruhara ndetse n'imvi zabaye uruyenzi. Ari kumwe n'umugore w'umuganga aho ari kumwigisha kugenda, aho uyu mugabo afite kuba yarahuye n'ikibazo cy'amaguru akaba amaze igihe atayakoresha noneho akaba ari kongera kwigishwa kuba yakoresha ingingo ze.

Ni umugore bisa nk'aho akuze afite igikombe kirimo amazi ndetse mu kiganza kindi akaba afitemo imiti twavuga nk'ibinini, akaba afite n'amazi yo kubinyweshya tuzi ko iyo ugiye kunywa imiti ufata ibinini ugafata n'amazi agufasha kubimira.

Ni umugabo ukuze cyane kuko uyu mugabo imvi zabaye uruyenzi ndetse uyu mugabo afite ikaramu mu ntoki ndetse akagira n'igitabo ari gusoma, bigaragare ko uyu mugabo akunda gusoma cyangwa se akaba ari mu bushakashatsi butandukanye.

Ni abagabo babiri bigaragara ko bari muri gahunda y'imisango y'ubukwe, aho usanga imisango y'ubukwe iyo yabaye wenda bagiye gutanga nk'umugeni cyangwa se umusore agiye gusaba umugeni, usanga abasaza cyangwa se abagabo bitera imyitero, aho usanga bamwe bavugira inka abandi bakavuga ijambo ryo gusaba cyangwa se ryo gutanga umugeni.

Ni abahinzi bishimiye ko ari abahinzi, kuko urabona babafotoreye mu murima ahantu bakorera ubuhinzi bwabo kandi tuzi ko ubuhinzi bugira akamaro gatandukanye. Ubuhinzi nibwo butanga ibiryo turya ndetse ubuhinzi butanga n'akazi kandi bugatuma n'abantu badahinga babona ibyo barya babiguze ku masoko.

Ni umuryango w'umugore n'umugabo, aho bigaragara nkaho bakuze cyane kuko bose bafite imvi, noneho umugore ari kwita ku mugabo, aho ari kumuha ikirahure wagira ngo harimo amazi cyangwa se hakaba harimo ibindi binyobwa.

Ni umukecuru usheshe akanguhe, aho ari gukora siporo akoresha ibyuma bya siporo. Ibyuma umuntu yaterura ananura amaboko, kugira ngo imitsi ye igororoke.

Ni umusaza ukuze cyane aho imvi zabaye uruyenzi ndetse akaba afite n'uruhara, aho uyu musaza afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ari cyo telefoni, akaba ari kumwe n'undi mugore ukiri mutoya bisa nkaho hari ibyo barangariyemo.

Ni umuforomokazi, uri kumwe n'umukecuru bisa nk'aho akuze, ari mu kigereranyo cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo inani, aho uyu muforomokazi ari kumukingira cyangwa se akaba agiye kumufata amaraso cyangwa se akaba ari kumutera umuti.

Ni umugore usa nk'aho akuze cyane kuko imvi zabaye uruyenzi ndetse uyu mugore afite ikirahure kirimo ibinyobwa, aho uyu mugore cyangwa se uyu mukecuru yipfutse ku mazuru bisa nk'aho afite ikibazo mu buhumekero cyangwa se ikibazo cy'ubuhumekero.

Uyu ni umusaza urimo urugero rw'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo irinwi n'itanu, uri gukora siporo ngororamubiri, yambaye ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kumva indirimbo.

Ni gahunda y'abagore baba barashizeho aho usanga abagore bifatanya bagahereza undi mugore mugenzi wabo, bakamugurira nk'ikiringiti cyangwa se igikoresho gikoreshwa mu kwiyorosa igihe cy'ijoro, cyangwa se bakamugurira n'ibindi bijyamibwa bitandukanye.

Ni umuforomokazi uri guha imiti umubyeyi bisa naho akuze, kuko uyu mubyeyi biragaragara ko umusatsi wabaye imvi kandi akaba afite n'impinkanyari ku ruhu nk'ibimenyetso by'ubukure.

Ni umugabo bisa naho akuze ari hagati y'ikigereranyo y'imyaka mirongo itanu na mirongo irindwi, uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cy'ingingo zidakora neza kuko yicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga. Uyu mugabo ari kumwe n'umwana, aho bari gukina bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bari gukina imikino.

Ni umusaza ukuze yicaye ku ntebe ndetse ari kumwe n'abana babiri batoya, bigaragare ko ari abuzukuru be kuko umubyeyi ukuze gutya ntabwo yaba afite abana batoya bangana gutya.

Ni umugore bigaragara nkaho akuze, ari gukora siporo, aterura utwuma twabugenewe, twogukoresha siporo, aho utu twuma tuba turi mu biro bitandukanye, aho usanga nk'akuma gafite ibiro bitanu, ibirobitatu, ibiro makumyabiri, mbese umuntu aterura icyo ashoboye, bitewe n'intege ze cyangwa imbaraga ze.

Ni abana benshi hamwe n'umugore umwe usa n'aho bano bana bari baje kumusura iwe cyangwase ahandi hantu bari bahuriye, bigaragare ko bari bamaze kuganira bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni uruhurirane rw'abantu cyangwa se abayobozi bagiye mu gikorwa cyo gutanga ibikoresho by'ababana n'ubumuga, harimo utugare babasunikaho babajyanye hanze hamwe n'imbago bakoresha mu gihe cyo kugenda kuko inkingo zabo ziba zidakora neza.

Hagaragaraho abantu bari gutanga ibiganiro bisa nk'aho ari ukugira inama ndetse no gufata mu mugongo abantu bahuye n'ibibazo runaka by'ubuzima, byo kubereka ko batari bonyine ahubwo ko babari inyuma kugira ngo badacika intege. Mbese ni inama igamije kubasubizamo intege mu buzima.

Ni gahunda yari yashyizweho yo kwirinda kanseri aho baburiraga abantu ko umubyibuho ukabije hari kanseri utera nka kanseri y'amabere. Noneho babagiraga inama ko bagomba kurya indyo yuzuye bakirinda kurya ibintu bikungahaye ku binure, kuko bituma babyibuha cyane bakaba barwara kanseri.

Aba ngaba ni itorero ry'abakobwa bari gususurutsa abaje mu munsi wo kurwanya sida, indwara ya sida, aho bari gususurutsa abitabiriye, babyina ndetse banaririmba, bari kurebera hamwe ukuntu bagwanya cyangwa se bagahashya burundu indwara ya sida yugarije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, ibi ngibi byabaye ariko bibiri na makumyabiri na kane.

Uruhurirane rw'abayobozi bari hamwe, bari gushakisha uburyo ki bafata ingamba ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo babashe guteza imbere ubuzima bwa muntu, cyane cyane ubuzima bw'Umunyarwanda, ibi bikaba byarakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo abantu bari kuvurwa, bisa nk'aho ari muri cya gihe agakoko gatera korona virusi kari karateye, aho buri muntu yabaga ategetswe kwambara agapfukamunwa kugira ngo atanduza mugenzi we.

Iri ni ihuriro ry'abagize umuryango tuzi witwa ''masitakadi''aho uyu muryango uzamura abakobwa cyane cyane ndetse ukanishyurira abakobwa n'abahungu muri rusange, bashaka kwiga kugira ngo bazagire ejo habo heza hazaza.

Ni igishushanyo cyangwa se icyapa cyanditseho uburenganzira ndetse n'inshingano kandi bakaba bavuga ko turi mu bantu bashobora guhagarika virusi iterwa n'agako kanduza SIDA.

Serivisi yo kwirinda kanseri mu baturarwanda, aho batanga amabwiriza ndetse bagatanga n'inama ku bantu barwaye kanseri, uburyo bajya bayirinda kandi n'abayirwaye bakaba babasha kuyikira kandi bakaguma bakora ibintu byabo uko byari bisanzwe.

Ni icyapa cyerekana ubuzima bwiza ndetse no kwiteza imbere, iyo ufite ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze ubasha gukora neza ukaba wakiteza imbere, ariko iyo ufite ubuzima bumeze nabi urwaye, ntabwo wabasha gukora ngo witeze imbere.

Iki ni icyapa cyari kiri kuvuga ku ngamba zari zashyizweho zo kwita ku buzima aho usanga ushinzwe ubuzima cyangwa se ukuriye ubuzima mu gihugu bashyiraho ingamba bitewe n'icyorezo cya bugarije kugira ngo babashe kugihashya.

Ni icyapa cyerekana cyangwa se cyashishikarizaga abaturarwanda gufata urukingo rwa kovidi, aho bababwiraga ko gufata uru rukingo byizewe kandi bifasha.

Biragaragaza igishushanyombonera cyo kwa muganga, ukuntu serivisi zigenda zitangwa, uhereye ku bazitanga bo hejuru kugera ku muntu wa nyuma ku mudugudu uhabwa izo serivisi, mbese ni ukuntu serivisi zigenda zikwirakwizwa mu baturage, uhereye k'ushyiraho izo serivisi kugera ku bazitanga, kugera k'uzihabwa.

Ni icyapa kiriho umuforomokazi wambaye ibikoresho by'ubwirinzi, harimo nk'agapfukamunwa ndetse n'ingofero, aho hari insanganyamatsiko, iri kuvuga ku guteza serivisi z'ubuzima mu Rwanda

Igishushanyo cyerekana ubushakashatsi cyangwa se urugendo rwakozwe na Afurika y'iburasirazuba, aho bako ubushakashatsi ku buzima ku ndwara zitandukanye bakazandika bakazishyira mu gitabo, kugira ngo umuntu wese uzajya ukenera gusoma ibijyanye n'ubuzima azajye yifashisha icyo gitabo.

Ni icyapa cyerekana kanseri zitandukanye, kanseri z'amabere ndetse n'izindi, aho bisaba kugira ngo umuntu ahore yipimisha kugira ngo amenye uko ubuzima bwe bumeze, kuko iyo basanze kanseri aribwo ikigufata bashobora kukuvura ugakira itararengerana.

N'inyubako y'ibitaro byitwa leggac aho hari imeza itangirwaho amakuru ibi bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bose yaba abana ndetse n'abakuru kandi batanga serivisi nziza cyane aho umurwayi uje abagana bamwakirana yombi ndetse bakamufasha bakamuha imiti.

Ni inyubako igaragaza ibitaro by'akarere ka Nyarugenge aho ibi bitaro biba bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, na serivisi z'ubuvuzi bw'abana, ubw'amenyo, ubw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'izindi serivisi zitangirwa ku bigo nderabuzima.

Ni icyumba kiri mu nyubako gikorerwamo siporo, aho usanga umuntu aza muri kino cyumba aje gukora siporo, siporo zitandukanye: siporo zo guterura ibyuma, siporo zo kwiruka, gusimbuka imigozi, ndetse na siporo zitandukanye ngorora mubiri. Tuzi neza ko siporo ngorora mubiri zirinda ibibazo byinshi harimo nk'uburwayi, kurinda akavuyo k'ibitekerezo n'ibindi byinshi.

Ni icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho hagaragaramo ibishushanyo by'umubiri ndetse bikaba bigaragara ko ari ibiro by'umuntu utanga serivisi z'ubuzima, aho harimo intebe ndetse n'ameza, hakaba harimo na mudasobwa.

Abaforomokazi bari gufasha abantu cyangwa se umuntu ufite ubumuga, aho uyu muntu ufite ubumuga yaje kwa muganga, bigaragara ko ari muri cya gihe hari harateye agakoko gatera korona virusi kuko uyu umuntu ufite ubumuga cyangwa se wicaye mu kagare yambaye agapfukanwa ndetse n'umuganga arakambaye.

Ni icyuyumba mu byumba bimwe byo kwa muganga, aho iki cyumba kifashishwa mu buvuzi bw'amaso kubera ko urabona ko harimo ibishushanyo by'amaso, ndetse tuzi ko mu Rwanda hatangwa serivisi yo kwita ku buzima bw'amaso.

Yerekana abagore bane ndetse n'umugabo umwe bahagaze imbere y'ahafatirwa hakanasuzumirwa ibizamini bitandukanye by'ubuzima nk'inkari, umwanda kugira ngo barebe hamwe ko hari indwara zaboneka muri ibyo bipimo baba babasabye.

Ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gwerere, aho iki kigonderabuzima gitanga serivisi zitandukanye, yaba kubana, kubashesha akanguhe ndetse n'abandi bantu bose, aho umuntu wese ufite ikibazo cy'ubuzima aza abagana bakamufasha.

Ni inzu izwi k ku izina rya farumasi aho ari ahantu haba hari imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, aho uje abagana aza akababwira indwara arwaye, cyangwa se uko yiyumva bakamuha umuti ugendanye cyangwa se uvura iyo ndwara.

Ni umuforomokazi uri kumwe n'umugabo usheshe akanguhe, aho uyu mugabo imvi zabaye uruyenzi bigaragare ko akuze ndetse akaba afite n'uruhara, ari byo bimenyetso by'ubukure cyane cyane bigaragara ku bagabo. Noneho uyu muforomokazi ari kumwereka cyangwa se ari kumupima umuvuduko w'amaraso, aho ari kumusuzuma anamuganiriza.

Ni umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga, aho yicaye mu kagare agenderamo, aho umuntu udafite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se ikibazo cy'amaguru, aza akamusunikira akamugeza aho ashaka kugera, uyu nguyu wicaye mu kagare.

Hagaragaraho inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi, aho iyi nyubako itanga serivisi zitandukanye, aho ababyeyi bafite abana barwaye cyangwa se bavutse baza gukingirwa indwara zibasira abana batoya kandi hakaba hatangirwa na serivisi yo kubyara ndetse n'izindi serivisi zitangirwa mu bigo nderabuzima bitandukanye.

Haragaragara inyubako ababyeyi babyariramo tuzi yitwa nka Materinite, ni inyubako aho itanga serivisi ku babyeyi batwite aho umubyeyi aza iyo inda igejeje igihe cyo kuvuka akaza agahabwa serivise.

Inzu igurirwamo ibikoresho bya siporo, aho umuntu aza akagura ibikoresho byo kujya gukoresha iwe, cyangwa se agiye gushinga bizinesi yo gukorerwamo siporo, aho umuntu aba afite inzu akajya aza afata abantu bagakora siporo bakamwishyura.

Haragaragara umuganga uri gusuzuma umugwayi akoresheje ikoranabuhanga, mudasobwa, aho ari kumusuzuma areba urutirigongo gwe, igice cy'inyuma mugongo, nimba nta kibazo gifite akoresheje mudasobwa ndetse n'ikoranabuhanga.

Icyumba cy'umwana bisa nkaho harimo uburiri bw'umwana. Aho uburiri bw'umwana buba bugomba kuba bwamurinda kuba yahanuka akagwa hasi, kuko urabona ko iki gitanda umwana aryamaho ntago ashobora kuvamo imbere ngo abe yagwa hasi urabona ko ni igitanda cyiza cya kijyambere.

Ni ibyuma bihagaze ndetse bishinze mu butaka aho byifashishwa n'abantu bashaka kwishima, bashaka kumva umunyenga aho umwe yicara kuri bino byuma biba bimanutse undi akamujya inyuma akamusunika akagenda amuzunguza bityo akumva umunyenga.

Ni umuforomokazi uri mu cyumba kwa muganga aho abarwayi barwarira, aho yambaye imyenda cyangwa se impuzankano y'abavura muri bino bitaro, tuzi ko mu bitaro haba hari ibyumba bitandukanye. Ibyumba bigwariramo abarwayi ndetse n'ibyumba basuzumimo bisanzwe, ibyumba by'ubushakashatsi n'ibindi bitandukanye.

Ni inyubako y'ikigonderabuzima cya Gishweru aho tuzi ko ibigonderabuzima bitanga serivisi ku buzima, aho uje abagana wese ufite ikibazo cy'uburwayi bamufasha uko bashoboye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni icyumba aho harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, aho harimo ibitanda byinshi ndetse hakaba kuri buri gitanda hariho inzitiramibu, aho inzitiramibu ifasha umuntu uryamye ku gitanda kutaribwa n'agakoko gatera malariya.

Ni abagore batatu bambaye impuzankano aho bambaye imyenda y'ubururu ndetse bakaba bipfutse n'ibitambaro by'umweru mu mutwe, bigaragare ko bakora ibintu bimwe ndetse bakaba bakora n'ahantu hamwe.

Ibi ni ibitaro bivura amaso gusa, aho umuntu urwaye amaso aza kuri bino bitaro, bakamurebera ikibazo afite, bakamuha umuti, ndetse byaba bisaba ko baribaga, bakamuvura bakaribaga bityo akongera akagira amaso mazima areba neza.

Inyubako y'ahantu bacuruza ibintu runaka aho batanga ibyo twakwita nk'igabanyirizwa, aho ugura ikintu kimwe bakakongeza ikindi cya kabiri cy'ubuntu bidasabye ngo ucyishyure. Iyi ni gahunda ishyirwaho n'umuntu ucuruza ibintu kugira ngo abone abakiriya benshi ndetse kugira ngo amenyekane cyane.

Ni inyubako yo kwa muganga, hari icyapa cyerekana icyerekezo cy'ahantu cyangwa se icyumba, hatangirwamo ubuvuzi ku bana batoya batarengeje imyaka irindwi.

Ni inyubako yo kwa muganga yerekana ko itanga serivisi z'ubuzima, aho umuntu cyangwa se umurwayi cyangwa se uwumva ko afite ikibazo, abagana bakamuganiriza bakumva indwara afite cyangwa se ikibazo bakabasha kuba bamuvura.

Ni inyubako y'ibitaro bya nyanza, aho ibi bitaro bikorana na mituweri y'ubwisungane mu kwivuza, aho umuntu watanze cyangwa se wishyuye ubwo bwisungane mu kwivuza agira ikibazo akabagana bakamuvurira ku mafaranga makeya.

Ni umugangakazi urimo ufasha umurwayi urwariye kwa muganga, aho usanga kugira ngo bahereze umurwayi igitanda kwa muganga, aho aba aryamye cyangwa se aho aba avurirwa usanga aba arwaye indwara itamwemerera kuba yataha akazajya aza kwivuriza ku bitaro akongera agataha.

Ni ibitanda byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi barembye, aho umurwayi urembye aza kwivuza bakamuhereza aho aba aryamye mu gihe ari guhabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo amere neza, yarangiza koroherwa akabona ubutaha.

Ni icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho twavuga ko iki cyumba ari icyo mu isuzumiro. Aho ugenda ukicara ugatekerereza muganga cyangwa se umuntu urakuvura uko indwara agufashe, cyangwa aho uri kubabara. Bityo bikamufasha kuba yakuvura no kuguha imiti yizewe kuba yavura indwara urwaye.

Ni abantu bafite ubwoko bw'uruhu butandukanye, aho bifotoreje imbere y'ibitaro bya Rwamagana, aho bigaragare ko bari basoje nko gukora amahugurwa ku bijyanye na serivisi z'ubuzima.

Ni inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze butandukanye, aho usanga umuntu wagize ikibazo cy'ubuzima, wenda arwaye indwara runaka wenda adafate urugero arwaye nka malariya, aza ahagana bakamufasha bakamuha imiti kugira ngo amererwe neza.

Ni inyubako itanga serivisi y'ubuvuzi, aho bari bashyizeho icyapa kigaragaza ko bari bari mu cyumweru cyo kwita ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubuzima bw'umwana.

Ni icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko ari aho abarwayi barembye barara, kuko turabonamo aho baryama. Ndetse buri gitanda gifite n'inzitiramibu kugira ngo birinde malariya ariko urabona ko nt'abarwayi barimo harimo umuntu ubitaho bigaragare ko bino bitaro bitanga serivisi nziza kuko nta barwayi bahari.

Umwana wiciye mu kagare k'abafite ubumuga aho n'utugare twifashishwa mu kuba basunika bano bantu bafite ubumuga bakaba babatwara hanze cyangwa se bakabatembereza aho tuno tugare duhabwa cyangwa se tugatangwa ku muntu wese ufite ikibazo gikomeye bakatumuha ku buntu yerereke mituweli gusa ihurizaho.

Ni umuganga uri gufata amaraso undi muntu, amaraso yo gufashisha n'abandi barwayi bo kwa muganga, babuze amaraso ku urwego rwo hejuru, k'uburyo bitabashobokera ko bakoresha intungamubiri zo mu biryo zisanzwe kugira babone ayo maraso. Cyangwa se akaba ari umuganga uri gupima nk'uyu muntu indwara runaka, bapima bakoresheje amaraso ye bwite.

Hagaragaraho umubyeyi, umuganga, ndetse umubyeyi ateruye uruhinja bigaragara ko uyu mubyeyi amaze kubyara se cyangwa se akaba yari yaje gushaka serivisi zo gukingiza uyu mwana atwite.

Ibi ngibi ni ibyumba byo kwa muganga bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, kuko tuzi ko kwa muganga haba hari ibyumba bitandukanye, bitanga na serivisi zitandukanye, aho basuzumira indwara, aho bafatira imiti, aho bakurira amenyo, aho bavurira amaso, rero ibi ni ibyumba bigenda byerekana ahantu serivisi zitangirwa.

Ni ibiganza bibiri byambaye imyambaro ikoreshwa nk'ubwirinzi bwo ku biganza, aho iyi myambaro yambara abantu bari muri siporo bagiye guterura ibyuma biremereye kugira ngo ibyo byuma bitabakomeretsa ibiganza.

Haragaragaraho ubwoko bw'inkweto, inkweto ebyiri, rumwe rwambarwa mu kaguru k'iburyo, urundi rukambagwa mu kaguru k'ibumoso, izi nkweto akenshi usanga zikunda kwambagwa, n'inzego zicunga umutekano. N'abacunga umutekano w'abaturage cyangwa se abacunga umutekano wo mu muhanda.

Uyu nguyu ni umugabo bigaragara ko ari gukora siporo cyangwa se arangije gukora siporo akaba ari kunywa amazi cyangwa se akaba ari kunywa izindi ntungamubiri zituma adacika imbaraga, agakomeza gukora siporo yiwe adacitse intege kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni umugabo umaze gukora siporo ngororamubiri, aho ari kunywa amazi, tuzi ko iyo umuntu yakoze siporo nyinshi atakaza amazi ndetse n'isukari, aba ari ngombwa mu gihe umuntu amaze gukora siporo kugira ngo anywe amazi kuko tuzi akamaro k'amazi mu mubiri.

Haragaragara umugore uri gukora siporo ngororamubiri, ari gukora siporo zo kunanura amaboko ndetse ari kuzikora yicaye ariho afite n'igikoresho cy'ikoranabuhanga mudasobwa, afite n'ibindi bikoresho byo gukoresha siporo umugozi ndetse n'ibyo guterura, ndetse afite n'icupa ry'amazi.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa kwa muganga, mu gihe umuganga ari kureba mu buzima bw'umuntu mo imbere ahantu atarebesha amaso ye bwite, akifashisha ikoranabuhanga ari cyo kino gikoresho, mu kureba ukuntu ubuzima buhagaze bw'uwo murwayi.

Hagaragaraho ibikoresho bibiri byifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se babavukanye, aho ibi bikoresho bifatwa nk'inkoni igenda iyobora umuntu ufite ubumuga bwo kutabona agenda ayiteye imbere ye kugira ngo yumve ahantu agiye gukandagira uko hareshya cyangwa nimba nta kintu gihari kugira ngo bimufashe mu kugenda kwe.

Ni umugabo uri gukora siporo ngororamubiri aho tuzi ko siporo ngororamubiri zirinda umubiri ibyago byinshi, ibyo twavuga nko kurwara, bikarinda akavuyo k'ibitekerezo ndetse umuntu urwa siporo cyane ntabwo apfa kwatakwa n'indwara izo arizo zose.

Ni ikiganza cy'umuntu uri gusuka amazi ayasuka mu kirahure cyo kunyweramo cyangwa se igikombe, aho tuzi akamaro k'amazi mu buzima ndetse tukaba tuzi ko amazi akoreshwa no mu buzima bwa buri munsi tuyatekesha, tuyafurisha ndetse tuyakoresha n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni umugabo bisa nkaho afite uburibwe ku maboko, aho ari kwikanda ku maboko asa nkaho yaba yahuye n'ikibazo cyo kuvunika cyangwa se agahura n'ikindi kibazo cyatuma aribwa ku ngingo y'akaboko.

Ni umuntu ugiye koza umubiri we aho abanje yanywa amazi uyu muntu afite icyo twita nk'umwenda umuntu ajyana koga aho iyo arangije koga afata uyu mwenda akawihanaguza kugira ngo amazi amuveho.

Ni icyapa kigaragaza imyitozo icumi umuntu agomba gukora igihe amaze gukira indwara zo mu mutwe, aho usanga harimo gukora imyitozo y'amavi, kwicara ku ntebe ndetse no kurambura imikaya.

Abana ni abaganga bari kwigira kuri murandasi, umuganga mukuru ubarusha ubumenyi ku ndwara runaka ari kubasobanurira uburyo ki bavura abaje babagana aribo barwayi, mu gihe we adahari arimo arabigisha uburyo babikora, arimo arabongerera ubumenyi bw'ukuntu bajya bavura abakiriya babo.

Ni umuti uvura uburibwe aho uyu muti ukoreshwa uko bawufata bakawukunyanyagiza ku ruhu noneho bagakubaho intoki kugira ngo winjire mu ruhu noneho ukakuvura uburibwe ufite.

Ni umuti uri mu gacupa upfundikiye bigaragara ko uyu muti ukoreshwa n'umuntu ufite ububabare bwinshi kuko wanditseho ko uhagarika ububabare, uyu muti ukoreshwa cyane cyane n'umuntu wahuye n'ikibazo cy'ingingo wenda urugingo rukaba rwahungabanye cyangwa se imitsi ikaba yikanze.

Ni umugore bigaragara ko arangije gukora siporo kuko urabona umubiri we ufite ibyunzwe cyangwa se ibyuya kubera ko yawukoresheje urananirwa, umubiri utangira gusohora imyanda, buriya icyiza cyo gukora siporo, iyo ukoze siporo uruhu rurafunguka, rugasohora imyanda yo mu mubiri, ndetse uri kubona ko uyu mugore ari kunywa amazi.

Haragaragaraho umuntu wagira ngo yavunitse ivi, aho umuganga ari kumufata akamugorora akaguru, kugira ngo arebe ko ukuguru kwamera neza, ntikumurye cyangwa se kugasubirwa uko kwari kumeze mbere.

Ni umugabo umaze gukora siporo wicaye uri kunywa amazi uri kuruhuka, ahugiye muri telefone kugira ngo umubiri ubanze uruhuke kuko tuzi ko iyo umuntu akoze siporo ntabwo asoza gukora siporo ngo ahite ajya koga kuko umubiri uba ugitakaza imyanda ibyo twakwita nk'ibyuya.

Ni ukuboko cyangwa ikiganza cy'umuntu gifashe icupa ry'amazi, tuzi akamaro k'amazi. Amazi turayanywa, turayatekesha, tuyogesha ibyombo, mbese amazi tuyifashisha mu buzima bwa buri munsi cyane cyane mu kuyanywa tuzi ko iyo unyweye amazi afasha ibintu bitandukanye mu mubiri nko mu igogora ndetse n'ibindi.

Ni umuntu ufite ikibazo cy'ingingo aho yicaye mu kagari k'abafite ubumuga aho umuntu amufasha ukuboko ariwe umuganga aka kagare iyo uyu umuntu akiciyemo haza undi muntu udafite ikibazo cy'ingingo cyangwa se cy'amaguru akamusunika akamugeza aho ashaka kugera.

Ni umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri aho yambaye isaha ndetse akaba yambaye n'ibikoresho by'umuziki mu matwi bituma adapfa kunanirwa vuba kuko iyo umuntu ari kumva indirimbo ntago yita ku munaniro umubiri we uba ufite.

Hagagara ko hari umuti wo gukora siporo, aho hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, ndetse hakaba hari isaha yerekana igihe bakorera siporo, ndetse tuzi ko siporo ari ingenzi mu buzima, aho umuntu ukora siporo cyane adakunda kurwaragurika, ndetse bituma anakura neza.

Ni umugabo uri kunwa amazi aho tuzi akamaro k'amazi mu mubiri, aho amazi afasha mu igogora ry'ibiryo, amazi agafasha ubwonko mbese amazi afasha buri rugingo rw'umubiri.

Uyu ni umugore uri gukora siporo ngororamubiri, izo tuzi nka yoga. Siporo ngororamubiri zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ubuzima bwe bukagira ubudahangarwa bwo ku rwego rwo hejuru, uyu muntu ari gukora yoga, uyu mugore, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni ibikoresho bitandukanye birimo imikasi ibipfuko ndetse n'imiti yoroheje ikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho umuntu aba yagira ikibazo cyangwa se yakomeretse ukamufasha uka mu buvuzi bw'ibanze noneho ukaba wamushyikiriza ibitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima inyuma.

Ni icyapa kiri kugaragaza ibyiza byo guhora ukora siporo mu buryo buhoraho, aho kiri kwerekana ko iyo uhora ukora siporo bibasha gutwika ibinure, bikagabanya umuvuduko w'amaraso, bikagabanya akavuyo k'ibitekerezo, bikongera ibiro ndetse bigatuma ubuzima bumera neza, kandi bigafasha no mu igogora ry'ibiryo uba wariye.

Ni umuntu ufite uburibwe ku kaboko, aho uyu muntu ari kwikandisha agatambaro mu nkokora, aho bita mu ihiniro ry'akaboko, kugira ngo arebe ko uburibwe bwagabanuka.

Ni umugabo uri gukora siporo ngororamumubiri, aho ari gukora siporo apfukamye ndetse ananura cyane cyane imitsi yo mu maguru. Tuzi ko iyo umuntu akoze siporo cyane cyane, agira ubuzima bwiza kandi bimwongerera ubudahangarwa bw'umubiri we.

Ni icyapa kigaragaza ukuntu umuntu yakora siporo zitananiza umubiri cyane, aho yasutama akarambura amaboko, akarambura amaguru ndetse agahina n'ivi. Izi ni siporo zitagoranye umuntu uwo ari we wese, ikigero cyose yaba ariho cy'imyaka yashobora akabasha kugira ubuzima bwiza.

Ni umuntu uriho uri gukora siporo ngororamubiri, hakaba hagaragara n'imbuto yarya amaze gukora siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Tuzi ko imbuto ziba zikungahaye kuri vitamin zifasha ubuzima bw'umuntu kugira ubudahangarwa.

Ni igikapu kirimo ibikoresho byo kwa muganga, mbese umuntu yakwifashisha ari gutanga serivisi zibanze ku murwayi. Wenda dutange nk'urugero, nk'umuntu uhuye n'ikibazo wenda cyo gucika igisebe, harimo ibikoresho wakwifashisha ukabasha kuhagarika amaraso kugira ngo areke kuva noneho ukabona abamugeza ku kigo nderabuzima, agahabwa izindi serivisi.

Ni umuntu uri gukora siporo, aho ari gukora siporo zo kunanura amaboko ndetse n'umubiri wose muri rusange. Aho tuzi ko siporo ari ingenzi mu buzima kuko umurwaye siporo agira ubuzima bwiza ndetse bikamurinda akavuyo k'ibitekerezo kandi umuntu ukora siporo bimwongerare ubudahangarwa bityo indwara ntizive zapfa kumwataka.

Haragaragara umuforomokazi uri gufasha umurwayi gukora siporo ngoramubiri, aho tuzi ko iyo umuntu arwaye agakora siporo bimwongerera ubudahangarwa bw'umubiri, bityo bigatuma indwara arwaye itamuzahaza.

Ni umugabo uri gukora siporo ngororamubiri aho tuzi ko siporo ngororamubiri zifasha mu buzima bwa buri munsi zikadufasha ibintu bitandukanye, aho tuzi ko umuntu ukora siporo ngororamubiri adapfa kugwaragurika indwara izo arizo zose.

Ni umugabo w'umukorerabushake aho afashe umukinnyi wari uri gukinara mu mbavu, aho uyu mukinnyi ahuye n'ikibazo aho bagenzi be bamukomerekeje bahanganye, uyu mukorerabushake akaba amukuye mu kibuga kugira ngo amwiteho amuhe ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore uri gukora siporo ngororamubiri aho akora siporo yicaye hasi agoro amaguru ndetse agorora n'amaboko aho tuzi twese akamaro ko gukora siporo kuko iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza, bityo bikamurinda kurwara indwara izo arizo zose zibonetse.

Ni ibikoresho bya siporo bitandukanye, aho turi kubona imigozi yo gusimbuka ndetse n'inkweto zo gukoresha siporo, hakaba hari n'ibyo kurya bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza igihe arangije gukora siporo, aho mu byo kurya hari imizabibu, igitunguru ndetse n'urunyanya.

Ni icyapa cyangwa se igishushanyo cyerekana uburyo butandukanye umuntu yakora siporo ngororamubiri, aho harimo siporo zo kwirukanka ukoresheje amaguru, guterura ibikoresho byabugenewe bya siporo, gukina umupira ndetse n'ubundi buryo butandukanye.

Ikingiki ni igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa n'umuganga, iyo agiye nko gufata amaraso, cyangwa gutera urundi rushinge, bisaba ko bagutera ku mutsi, aka gakoresho bakifashisha bakuzirika ku rugingo nko ku kaboko, kugira ngo amaraso bagende gakeya, umutsi use n'aho amaraso yirukanse, babone umutsi, babashe kuguteraho urukingo, cyangwa se urushinge.

Ni uruhurirane rw'imbuto ndetse hakaba hagaragara n'icupa ry'amazi ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze siporo ngororamubiri akarya neza indyo yuzuye hariho n'imbuto ndetse akanywa n'amazi, agira ubuzima bwiza.

Ni imodoka yifashishwa n'ibitaro, aho iyi modoka izwi ku izina ry'Imbangukiragutabara, aho iyi modoka itwara abagwayi barembye cyane, ibavana ku Kigo Nderabuzima kimwe, ibatwara ku kindi kugira ngo byihutishwe kuba babavura cyangwa kuba barengera ubuzima bwabo mu gihe bari mu kaga gakomeye k'indwara.

Ni icupa ry'amazi ndetse n'isoko. Tuzi ko amazi ari meza mu buzima ndetse amazi yifashishwa mu bintu bitandukanye, icya mbere amazi turayanywa kugira ngo tugire ubuzima bwiza ndetse amazi tukayakoresha no mu bikorwa bya buri munsi, ibyo bikorwa twavugamo nko guteka ndetse no kumesa.

Ni umuforomokazi ndetse n'umuntu ari gufasha w'umugabo, aho uyu muforomokazi ari gukoresha siporo ngororamubiri uyu mugabo, aho ari kumurambura amaguru, byashoboka ko amaguru ye yaba afite ikibazo akaba ari kumukorera amaguru ayarambura kugira ngo amererwe neza.

Ni umugore uri gukora siporo ngororamubiri, aho uyu mugore ahagaze ku kaguru kamwe agaterura akandi akananura ivi. Ari kubikora nk'umuntu wabigize umwuga, kuko tuzi ko iyo umuntu akora siporo bimufasha mu bintu bitandukanye. Kuba yagira ubuzima bwiza ndetse umubiri we akawurinda kuba wakwatakwa n'indwara zitandukanye.

Ni ibyatsi bitandukanye aho bino byatsi bifite indabo zifashishwa n'inzuki mu guhomvwaho ubuki zikabujyana mu mizinga, aho tuzi ko ubuki ari umuti ukomeye.

Ni agasekururo hamwe n'ibyatsi, aho umuntu afata bino byatsi, akabishara muri kano gasekururo, agasekura paka igihehe binogeye. Ni ukuvuga ngo iyo bimaze kunoga, umuntu abikura muri kano gasekuru, noneho akabishyira mu gikombe, akavangamo n'amazi, akaba yabikoresha ari kwivura indwara runaka

Ni ikimera bisa na ho ari bo bakikivana mu irerero, tuzi ko mu irerero ry'ibiti ni ahantu hakurira imbuto zagera ku kigero runaka cy'uburebure, bakazimura bakajya kuzitera mu bundi butaka.

Ni ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, aho hari umuti wifashishwa ukorwa mu gikakarubamba ndetse hakaba hari n'uburoso bw'amenyo aho umuntu afata uwo muti ukora cyangwa se ukorwa mu gikakarubamba akawukoresha awushyira kuri ubwo buroso nuko akabasha koza amenyo ndetse no kuyarinda indwara.

Ni igicuruzwa cy'ubuki, aho usanga abavumvu borora inzuki mu mizinga, aho inzuki zihomvwa ku ndabo noneho zigakora ubuki, nyuma y'igihe runaka bakazabusarura bakabugurisha.

Ni icyapa kivuga ku miti y'akagera kuko tuzi ko imiti myinshi iva mu bimera ndetse hafi ya yose, kandi Akagera ni ahantu hari ishyamba rinini harimo ibyatsi kimeza bitandukanye, byiyifashishwa mu gukora iyo miti.

Ni ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, aho iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, imiti harimo n'ivura mu mihogo, ndetse n'indi ivura inkorora.

Iri ni ihumbikiro ry'imbuto, aho usanga umuhinzi afata imbuto akagenda akazinaza muri irihumbikiro zamara guhakurira akazazimura akajya kuzitera mu wundi murima.

Ni umuti wifashishwa cyane cyane n'igitsina gore, aho uyu muti abagore bawusiga ku munwa kugira ngo barinde iminwa yabo kuba yakomera cyangwa se kuba yacikagurikaho ibisebe kuko iyi miti irabafasha cyane.

Ni udukarito tw'imiti itandukanye, imiti yifashishwa mu isuku; aho dusangamo imiti yifashishwa mu koza cyangwa se mu kwita ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'indi yifashishwa mu gusiga ku ruhu kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza ndetse agire n'uruhu rworoshye.

Ni abahinzi barimo barasarura ikahwa, ikahwa bari kuyisarura baca amababi matoto kugira ngo bayajyane ku ruganda bayatunganye bayakoremo wenda ibiryo cyangwa umuti wo kuvura indwara runaka, kuko tuzi ko nk amababi y'ikawa cyangwa se icyayi akoreshwa mu kuvura indwara.

Ni ururabo rw'igihingwa, aho tuzi ko indabo zifasha igihingwa se cya zigafasha abahinzi kuzabona imbuto bazongera gutaha mu gihe cy'ubutaha, kandi tuzi ko indabo ari zo inzuki zihomvwaho noneho zigatanga ubuki.

Haragaragaraho isoko ryubakiye ricuruza ibicuruzwa bitandukanye kuko rino soko urabona ko harimo abacuruzi ndetse harimo n'abaguzi n'ubwo ari bakeya, iri soko urabona ko urebye, ugereranyije riteye imbere ntabwo wavuga ngo iri soko rirakennye cyangwa ngo rirakize cyane.

Haragaragaraho umuti w'amenyo ukorwa mu bimera koko urabona ko ni umuti bigaragare ko banditseho urinda amenyo y'umuntu, y'umuntu uwukoresheje mbese ni umuti ukomoka mu bimera, nta bibi ugira ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo.

Ni umugabo uri kuvuga ko ari umujyanama w'ubuzima, ko amenyera abantu imirire iboneye ndetse imirire ibarinda indwara ndetse imirire ibarinda no kugwingira. Tuzi ko iyo umuntu arya neza, akora neza, rero uyu mugabo ni umujyanama w'ubuzima, ibyo abizi neza, atanga inama ku bijyanye n'imirire myiza yuzuye.

Ni ibikoresho bitandukanye by'isuku, harimo n'amasabune yo gukaraba ndetse hakaba harimo n'imiti y'amenyo, tuzi ko iyo witaye ku buzima bwawe neza, ugira ubuzima buzira umuze, akaba ari nta ndwara yapfa kukwataka.

Iyi ni ifu ikoreshwa n'abavumvu, barimo kugaburarira inzuki, aho usanga bagenda bayishyira ku ndabo inzuki ziraza guhovwaho kugira ngo inzuki zizakore ubuki bwiza ndetse bufite icyanga kandi buzamare n'igihe kirekire.

Iki ngiki ni ikimera cyifashishwa mu gukora umuti wo kuvura abantu ndetse n'inyamaswa, kandi kino kimera kikaba gifata umwuka mubi twahumetse kikawuhinduramo umwuka mwiza duhumeka. Ibyo nibyo byiza by'iki gihingwa.

Ni ububiko burimo imiti itandukanye, imiti ikomoka ku byatsi cyimeza ndetse iyi miti ikaba ifasha mu buryo butandukanye, harimo imiti ifasha abantu bafite ibibazo by'imitsi ndetse n'indi miti ifasha abantu bafite ibibazo byo mu nda.

Haragaragaraho imbuto zitandukanye harimo nk'inanasi ndetse n'imineke, ndetse hakagaragaraho icyayi ndetse hakaba n'utundi dupfunyika turimo ibindi bintu bitandukanye ariko byose birererekana ko akenshi ari imbuto.

Ni amavitamini akorwa n'inganda aho umuntu udafite vitaminini zihagije cyangwa se wahuye n'ibibazo by'uburwayi, afata aya mavitaminini akayavanga n'amazi cyangwa se akayavanga n'irindi funguro agiye gufata kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni ikirangantego cy'u Rwanda, gishinzwe kwita ku biryo ndetse n'ubuziranenge bw'ibinyobwa, aho bakora bareba ahantu hacururizwa ibinyobwa abantu babikora ndetse n'ibiryo bagasuzuma ko byujuje ubuziranenge.

Ni insanganyamatsiko yari yashyizweho ku munsi wo kwizihiza imiti ikomoka ku bimera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kumyabiri na kabiri aho bari bihaye insanganyamatsiko y'ukuntu bakomeza kwizihiza cyangwa se kwita ku miti ikomoka ku bimera.

Iki ngiki ni ikimera cyitwa Momeri cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, muri izo ndwara twavugamo nk'igifu, ibiheri byizanye ku ruhu hamwe n'izindi ndwara zitandukanye. Iyi Momeri izwiho gukunda gukoreshwa cyane mu gukora imiti itandukanye ivura izo indwara.

Ni uruhurirane rw'ibimera bitandukanye aho ibi bimera biri mu bwoko bugera kuri cumi na bubiri, ibi bimera bikaba byifashishwa n'umuntu mu gukora imiti itandukanye, aho ibi bimera bijyanwa mu nganda bigatunganywa neza, bikaba byakwifashishwa mu kuvura.